Imiti iyo ibitse neza itararangije garanti, irinda umubiri kwangirika, ikarinda umurwayi kubaho nabi, igatuma amara igihe ntapfe igihe kitari cyagera.

Ibinini bigira akamaro kanini cyane ku murwayi, umuntu wese urwaye arabinywa kugira ngo akire indwara. Abakora ibinini bagomba kubipfunyika mu bushashi bwabugenewe, kugira ngo hatagira imyanda ijyamo ikaba yakwangiza umurwayi.

Muri farumasi bagira imiti m nyinshi itandukanye, iyo umurwayi arwaye ajya kugura yo imiti, ubundi bakamuha akajya kuyinywera iwe mu rugo, agakira, atakira akajya kuguranisha iyindi.

Ibihuru n'amashyamba karemano bituramo inyamaswa n'inyoni, abantu ntibakwiye kubitema, kubera ko bigira akamaro kanini cyane. Bikurura na bamukerarugendo baje kureba izo nyamaswa n'amashyamba.

Intusi ni igiti kiba gifite amababi, y'umweru maremare cyane, n'ibitabi binini bakibazamo imbaho, bakazikoramo intebe, bakazigurisha amafaranga menshi.

Igisura kivura igifu kirababa, kigira amahwa, iyo umuntu yafuruswe bakakimukozaho, akira ako kanya nta kibazo agize.

Ikigori kigira amababi maremare cyane, kigira n'umusigati ubamo amazi aryoha, kigira n'impeke nyinshi, baracyotsa, bakakirya cyokeje, kiryoha kurushaho.